Ikigo cy'amashuri cya Kabwende aho abana bashaka kwigira videwo bakagira ubumenyi butandukanye bubafasha gutera imbere ndetse no kurushaho kumenya isi bikazabafasha kugera ku ntego zabo zigiye zitandukanye.

Icyapa kiriho inshingano n'indangagaciro ziranga abarezi bo mu kigo cy'amashuri cya Jiyesi Kampanga. Ahangaha uhasanga kirazira ndetse n'inshingano abarezi bagomba kuba bafite, ndetse n'indangagaciro zabo.

Abakanishi bari gukanika igikoresho. Iki gikoresho iyo cyapfuye bano bakanishi baragifata bakagisubiza uko cyari kimeze, bityo kigakomeza gukora imirimo cyari gisanzwe gikora.

Imirimo y'ubukorikori aho umuntu ari gusudira cyangwa se agakata ibikoresho akabikoramo ikibindi bikoresho bitandukanye akoresheje imashini ikata, akoramo inzugi n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Abantu bameze nk'abaganga baba bari kuvura abantu bityo bagatuma bagira ubuzima bwiza, niba warwaye iyo abaganga bakuvuye ugira ubuzima bwiza, hano bari kwiga uburyo bavura abantu bakoresheje ikintu bita igipupe.